Ibicuruzwa bitandukanye birimo ibyo kunywa supurayiti ,kokakora, fanta, amusiteri n'ibindi, abaje kubinywa batanga amafaranga, ayo mafaranga bakayifashisha harimo gutanga umusoro, cyangwa bakayifashisha bari guhaha ibyo badafite.

Ifi batetse bashyizemo te ,harimo inyanya baracyabitetse ntabwo birashya ngo babitange babirye, baracyabitetse.

Ibiryo barangije guteka babishyira mu ma bife. Bife ni ikintu bashyiramo ibiryo barangije guteka kugira ngo babone uko babyarura. Bakase avoka ukwazo bashyiramo, inyanya, bateka umuceri, bakata ibitunguru, bateka ifiriti. Ibi biryo ni ukugira ngo abaza kubyarura babyarure buri kintu ukwacyo kugira ngo babirye neza mu gihe cy'ubukwe.

Ahantu bacuruza inzoga, bacuruza izoga z'amoko atandukanye, iyo ugiyemo ugiye kwiyakira, baguhereza inzoga, bakaguha n'ibyo kurya, haba ari mu kabari ukarya icyo ushaka , ukanywa icyo ushaka, ukishyura amafaranga. Akabari gatuma umuntu abona icyo kunywa byihuse, bitamugoye.

Inzu irimo ameza n'intebe, bacururizamo inzoga zo kunywa, n'ibiryo, abantu bakaza bakanywamo, bagatanga amafaranga, bakabaha inzoga bakanywa.

Burushete bashyize ku isahani, burushete zifite akamaro kenshi cyane, barazirya. Natwe hano iwacu twotsa burushete, bakazirya, bakaduha amafaranga. Burushete zifite akamaro kenshi cyane. Ni inyama zikundwa cyane inaha iwacu . Burushete zitanga ubuzima bwiza ku mubiri w'umuntu.

Inzu y'ubucuruzi, harimo umuryango umwenda uri ku muryango n'intebe bacururizamo ibintu bitandukanye byo kurya n'ibyo kunywa, abantu bakaza kubigura, kugira ngo babirye banabinwe bagire ubuzima bwiza cyane.

Inzu bacururirizamo ibintu bitandukanye, harimo matola, bacururizamo ibishora byo kwifuka, bagacururizamo amashati, n'imashini zidoda imyenda, natwe inaha iwacu tugira inzu z'ubucuruzi, ducururizamo matora, tugacururiza ni bishora byo kwifuka by'abadamu, ducuruza imikenyero, tukagira n'imashini idoda, tugacuruza na mitiyu yo gutanga amainite.

Inzu bacururizamo amusiteri, amusiteri ni inzoga banywa; abagore cyangwa abagabo. Iyo twaziranguye tukazigurisha baduhaha amafaranga, noneho amafaranga baduhaye tukayifashisha mu kurangura izindi, noneho twayabona bigatuma twi teza imbere mu bucuruzi bwacu, bukanguka abakiriya bakiyongera.

Inzu y'ubucuruzi bacururizamo amayinite ya MTN. Barabitsa bakanabikura kuri MTN. Impande yaho hariho senyenge uruzitiro Hasi hariho imyanda hadakubuye.

Inzu bacururizamo ibikoresho by'umuziki, harimo ampuri, tereviziyo, n'ibindi bintu byinshi cyane, na za radiyo, za regiteri, keto, n'ibindi byinshi cyane. Inzu imbere iriho mubazi, hariho n'amakaro kuri...

Inzu y'ubucuruzi, ari kwamamazamo ibyo bacuruza byo muri kenkayori, harimo amabati acuruza amakaro acuruza n'amasima. Ni depo y'ibicuruzwa by'ubwubatsi.

Inzu barangurizamo ibicuruzwa bitandukanye harimo, amabiswi, imyunyu n'ibindi byinshi cyane. Imodoka ziparitse imbere yaho zije kurangura ibyo bicuruzwa ngo zigeze aho zibigeza nabo babicuruze.

Ibicuruzwa bitandukanye harimo: amakote ,amapantaro ,amakabutura, amatisheti ,amakositimu, amasogisi, butini, godazi, eyafosi harimo ibicuruzwa byinshi cyane ,uyu mugabo Ngoga fashoni shopu acuruza bari kumwamwamariza.

Inzu y'ubucuruzi bacururizamo. Moto baziparitse imbere y' izo nzu z' ubucuruzi, hariho umuntu uri guterefona, hariho umutaka wa MTN, n'abanyonzi bari kunyonga amagare yabo, bari kugenda.

Inzu iparitsemo imodoka, imodoka z'amavatiri y'amabara y'umukara ziparitse zonyine nta bantu barimo, ahantu hari sima n'amatara ari kwaka wagira ngo n'izuba riri kuhava.

Inzu bacururizamo imyenda y' abageni, bacururizamo amakositimu, bacururizamo ubutimba bw' abageni, bacururizamo imyenda y' abafiye doneri ino iwacu tugira aho dukodesha imyenda y' abageni amakositimu, imyenda y' abafiyedoneri n' udutimba tw' abageni bigatuma tubona amafaranga tukiteza(...).

Mu isoko bacururizamo ibintu bitandukanye bacururizamo amashuka, bagacururizamo amakuvurori, bagacururiramo mitiyu, bakanabikaho amafaranga kuri emutiyene bakanabikura. Natwe ino aha iwacu tugira amasoko tuyagurishirizamo ibintu bitandukanye, tugacuruza imipira, tugacuruza amashuka, n'amakuvurori. Iyo abaguzi babiguze tubona amafaranga tukongera tukarangura.

Inzu y'ubucuruzi barangurizamo ibicuruzwa bakunze kwita depo, harimo amata y'inyange, harimo amaji, harimo za kawunga, iyi nzu bayirangurizamo ibintu byinshi bitandukanye.

Inzu bacururizamo ibyo kunywa， bakagira n'amacumbi. Iyo bagiye kunywa batanga amafaranga，bakayifashisha mu gutanga umusoro， cyangwa se aho hantu bakaba bahisanzurira，bakagira ibyishimo bashaka， bakagira umunezero muri bo kabari gatuma haza. Akabari gatuma haza abakiriya benshi cyane.

Inzu y'ubucuruzi bita depo baranguza inzoga ,imbere y'aho hari umugore cyangwa umukobwa ufite agakapu uri kureba muri telefone uri kugenda , depo ituma abantu barangura bigatuma babona amafaranga yo kwifashisha mu bundi buzima busanzwe bagakemura utubazo bafite.

Inzu y'ubucuruzi bacururizamo ibintu bitandukanye，bacuruzamo udukapu，bagacururizamo teremosi，bacururizamo pampegisi. Natwe inaha iwacu，tugira amazu y'ubucuruzi， ducururizamo ibintu bitandukanye， tugacururizamo pampegisi， tugacuruza amateremosi， n'udukapu，n'amasabune， n'amaji，ubwacu bituma twiteza imbere，iyo tubonye amafaranga yavuyemo.

Inzu y'ubucuruzi bacuruzamo ibintu bitandukanye, harimo imigati harimo n'ibyo kunywa, iyo babigurishije babaha amafaranga, amafaranga batanze bakayifashisha mu kurangura ibindi bicuruzwa. Imigati turayirya tukayinwesha igikoma tukagira ubuzima bwiza, ubucuruzi bufite akamaro kenshi cyane butuma umuntu yongera kubona amafaranga akongera kuranguza ibindi bicuruzwa.

Inzu bacururizamo ibyo kunywa bitandukanye n'amavuta yo kwisiga. Mu byo kunywa biteretse ku etajeri n'ibindi biri mu ikarito. Amavuta yo kwisiga arinmu gikarito. Ibyo kunywa harimo fanta, enajyi, tuwisite na mirinda n'iibindi.

Inzu z'ubucuruzi. Ino iwacu, tugira ubucuruzi. Tugurisha imyenda itandukanye. Ipantaro n'amasengeri . Imyenda y'abakuru , iy' aba mama , inkweto, n'ibindi . Iyo tubigurishije, baduha amafaranga tukiteza imbere , mu buzima busanzwe , bigatuma twagura ubucuruzi bwacu , tugakomeza kurangura, tukiteza imbere, tukabona amafaranga menshi cyane. Imyenda barayambara abantu bose .

Inzu bacururizamo ibintu bitandukanye, harimo amabase n'ibindi bintu, natwe ino aha iwacu tugira inzu zicururizwamo amabati tugacururizamo n'ibindi bintu, iyo baje kugura baje bavuye kure batega moto zikabahazana bakagura, barangiza bakagenda cyangwa bakaza mu mudoka baje kugura, bakongera bakagenda. Ubucuruzi butanga inyungu.

Inzu bacururizamo ibyo kurya bitandukanye n'inkweto zitandukanye zo kwambara n'aha iwacu ducurura za bodaboda tukazambara, tugacuruza mituyu tudatanga ama inite abantu bakavugisha abo bashaka ku matelefone yabo, bigatuma bumvikana byoroshye nibaduha amafaranga tugakurikiza ibyo dushaka, tukaranguza ibindi bintu.

inzu y'ubucuruzi batagikoreramo, bahakoze kaburimbo ,barahafunga bahashyira ibimenyetso, hararaye ntabwo bakihakorera ,imiryango irafuzwe, hari ahantu hegereye umuhanda ho bakoze kaburimbo nta kintu bakihakorera barahafunze.

Inzu bacururizamo ibyo kunywa, bacururizaho na mitiyu imbere mu mutaka, ibyo kunywa birimo inzoga, mitiyu batangiramo amayinite cyangwa bakabitsa bakabikuza amafaranga, inzu bacururizamo ibyo kunywa abakiriye baza bakabigura bakabinywa, bagatanga amafaranga bigatuma biteza imbere mu bucuruzi bwabo.

Inzu y'ubucuruzi bacururizamo wotameloni, bacururizamo ibihaza bitandukanye, bacururizamo amashu yo kurya, ahantu bacururiza haba hariho kandagirukarabe kugira ngo ukarabe intoki uvuye mu myanda, ahandi bagacururizamo imyenda y'imbere, bagacuruza bombo n'utundi tuntu.

Aho bacururiza impapuro bakahafotorera impapuro, banahacururiza ingoma bakahacururiza n'ibikapu. N' ino aha iwacu tugira inzu z'ubucuruzi za papetori tukazicururizamo impapuro, tukazicururizamo za marikeri abana b'abagaridiyene bifashisha bari kwiga, tugacuruza ingoma bakurikira bari kuvuza tugacuruza n'ibikapu byo gutwaramo ibintu.

Inzu bacururizamo ibicuruzwa bitandukanye, imbere hariho umutaka wa MTN bacururizamo ama inite, bakabitsaho amafaranga, bakanabikuza, undi muryango bacuruburizamo ibirayi, n'ibitoki, hahagazemo umugabo n'indobo zirimo ibicuruzwa hejuru.

Inzu bacururizamo icyo kunywa, sikoro. Natwe inaha iwacu tugira inzu ducururizamo ibyo kunywa. Iyo abakiriye baje batwaye imodoka, barayaza bakaziparika imbere yaho, bakinjiramo, bakanywa, banywa, bagasiga amafaranga. Amafaranga akaduteza imbere mu kazi kacu ka buri munsi k'ubucuruzi, bigatuma ubukungu bwacu bwiyongera.

Inzu bacururizamo ibintu bitandukanye harimo televiziyo, amapasi, telefoni, sharijeri, keto n'ibindi nk'amasakoshi. Na twe inaha iwacu tugira inzu ducururizamo amamashini, ipasi, keto, telefone, amasakoshi y'abagore n'ibindi bituma twiteza imbere.

Inzu z'ubucuruzi bacururizamo sima, bacururizamo ifumbire, hariho abagabo ku muryango, hariho uwambaye itaburiya n'abandi babiri harimo n'ufite nvirope, hariho n'umugabo ufite igisheke uje kugura ibicuruzwa.

Amarogi afite akamaro kenshi cyane ku bantu, mu kurara bakarara bafite umutekano. Amarogi abantu bayararamo, umusore n'umukobwa iyo bashaka kujya mu butendere, bashaka kujya gutemberana ngo bishimane. Amarogi afite akamaro kenshi cyane, abantu bayararamo iyo bagiye mu nama bakagira umutekano wuzuye.

Umukobwa ari kugenda muri kaburimbo, impande y'urusengero bazitiye, impande y'urwo rusengero hariho akazu ka emutiyene batangamo ama inite, n'abanyonzi bari kugenda, hariho umunyonzi utwaye, upakiye imizigo, n'undi uri imbere uri kugenda wenyine, n'amamodoka aparitse, n'abantu bahagaze.

Ikigo cy'ubucuruzi, bacururizamoza ibintu bitandukanye. Bacuruza sima, bagacuruza kawunga zo guteka bakarya. N'inaha iwacu tugira ikigo cy'ubucuruzi na kampani bacururizamo amasima yo kubakisha ibigega na kawunga zo guteka. Mu gihe n'ibigori by'amashuri bigura kawunga zo gutekera abanyeshuri.

Inyubako bacururizamo telefoni imbere yaho bacururizaho amayinite ya emutiyeni na moto ziparitse zitegereje abagenzi n'amagare ari gutwara abantu. Natwe ino aha iwacu tugira amazu bacururizamo amatelefoni n'abacuruzi ba mitiyu batanga amayinite, n'abamotari batwara abantu bakabageza aho bashaka kujya.

Inzu z'ubucuruzi bacururizamo, bacuruzaho mitiyu n'abadozi badoda ibikapu, naha iwacu tugira abadozi badoda ibikapu n'abacuruzi ba mitiyu, abacuruzi ba mitiyu batanze mitiyu babituma babona amafaranga bahembwa kukwezi, bitewe nuko baba barakoze nabo badozi badoda ibikapu ,iyo badoze byinshi, abakiriya bakabigura babona amafaranga noneho bakiteza imbere.

Inzu bacururizamo sikoro n'ibyo kunwa n'ibyo kurya, byivanzemo burushete. Natwe ino aha iwacu tugira ahantu tugurishiriza sikoro, iyo bagiye kuhagurira sikoro n'andi mafanta, hariyo n'andi maji atandukanye. Bacururizamo n'ibyo kurya bagacururizamo n'amaburushete, iyo baguze sikoro cyangwa ayo maburushete batanga amafaranga, ku mafaranga batanze bigatuma kwiteza imbere mu bucuruzi bwa......

Isoko bacururizamo ibiribwa bitandukanye harimo imyembe, wotameloni, imineke. Natwe ino aha iwacu ko tugacururizamo ibintu bitandukanye watarmelon, imyembe, amarongi iyo tubigurishije baduha amafaranga turayifashisha mu buzima busanzwe tugura ibindi bicuruzwa, ubucuruzi bwacu bugatera imbere ibyo gucuruza bifite akamaro kenshi cyane twunguka mucuruzi tukiteza imbere.

Inzu bacuririzamo gaze gaze bazisohoye hanze imbere y'inzu, gaze bazikoresha bari guteka ibiryo, gaze bazifashisha bari gukora imirimo myinshi yo mu gikoni, kugira ngo babone ukuntu babona ibyo kurya. Gaze ni nziza cyane ibiryo bishya vuba.

Impombo zirambitswe hasi ba bandi bagiye kuzikoresha. Izi mpombo bazifashyusha iyo bari gukora imigezi, bagashyiramo amazi. Natwe inaha iwacu tugira impombo iyo bazitugurishije tuyikoresha turi kwifashisha mu gushyira imigezi y'amazi mu ngo z'abantu cyangwa mu midugudu, bigatuma amazi aba menshi ahantu mu mu ngo.

N'ino aha ducuruza ibitanda byo kuryamaho, ibitanda byo kuryamisha abana. Turabikora bigatuma abaduha amafaranga. Ibitanda byo kuryamaho nyine turabigurisha, bakaduha amafaranga. Tugura icyo dushaka. Ibitanda bifite akamaro kenshi cyane tubiryamaho n'abana bakabiryamaho.

Inzu bakoreramo ibya MTN, kubitsa bakabikura amafaranga inzu bafotoreramo impapuro z'ibyangombwa, inzu washakiramo ukabitsa ukabikuza amafaranga utiriwe ujya kuri banki kuri popilele, bakayaguha byihuse bitatugoye.

Ibicuruzwa bari kwamamaza harimo imigati ya kupe harimo amazi, harimo kokakora, harimo omo, harimo sarisa, harimo inyange, harimo bureba, harimo mayonezi, harimo amakaroni, harimo kawunga, harimo vimu n'ibindi bitandukanye.

Inzu bari gucururizamo ibikoresho by'ubwubatsi .Amajerekani arimo amarangi, Amajerekani arimo amarangi .Umuntu uri kuyagurisha ari ku murango ategereje abaguzi.

Inzu z'ubucuruzi bacururizamo, ibintu by'umuco gakondo, harimo ibiseke harimo n'ibindi, nubwo zifunze ariko bazicururizamo, natwe inaha iwacu, tugira inzu bacururizamo, uduseke n'imitako gakondo, utwo dusekeye badukoresha, bari kuzidukira inshuti zabo, bakazishiramo imyaka bakazijyanira inshuti zabo, utwo duseke iyo batugurishije, dutanga amafaranga.

Abanyeshuri bavuye ku ishuri bari mu nzira kuri kaburimbo ,bari ahantu bacururiza akabari hariho icyapa cya mirongo ine, n'umugabo uhagaze ari kureba abantu bari kugenda.

Banki ni ahantu bajya gufata amafaranga babikijemo cyangwa abandi bafite akazi ,bakaba bagiye kubikuza harimo abinjiye bagiye kubikuza amafaranga yabo, hari abategereje kwinjira ngo babahe amafaranga yabo, n'abasohotse bo bayahaye kugira ngo babifashishe mu bundi buzima busanzwe ,banki ibika amafaranga ikanayabikuza.

Inzu y'ubucuruzi bacururizamo amakayi, amakaramu, amakereyo, amagoma, bafotoreramo impapuro, bagasinyiramo amadosiye n'ibindi bigiye bitandukanye.

Igipangu kirimo ibishike kirimo icyapa cyanditseho sikoro, harimo akabari bacururizamo inzoga zitandukanye. Ako kabari karimo amarodi bacumbikamo iki gipangu inyuma yacyo hariho ibiti binini harimo n'indabo n'insina biri inyuma y'ipangu.

Hoteli ni ahantu bacumbika abantu iyo bafite umunaniro cyangwa baje mu butembere, natwe ino aha iwacu tugira amahoteli cyangwa moteri aho abantu bajya mu nama bakiyakirira, cyangwa abafiteyo inshuti bagasohokera muri hoteli bagiye kuganira cyangwa se bakaba banararayo bari kunywa.

Hoteli ni ahantu habaga amacumbi, abantu bajya kuharara iyo bari mu butembere n'inshuti zabo, cyane iyo bagiye mu nama natwe inaha iwacu tugira hoteli, iyo habaye inama, izo hotel baziyakiriramo, babona ari ngombwa bakaba baziraramo, kugira ngo bakomeze kuzikora byoroshye, hotel ni amacumbi y'abantu n'ibyo kunywa barya, abarayemo.

Inzu ikorerwamo amaserivisi atandukanye harimo gucumbikira abantu, harimo kubagaburira bakaryama. Iyo bahagiye bamwe baraharara batanga amafaranga y'amacumbi baba babahaye, abagiye kurya bakishyura amafaranga y'ibyo nariye. Hoteli itugirira akamaro kenshi cyane.

Umusaruro w'ibirayi bazanye mu isoko abakiriya bakaza kubigura, n'ino aha iwacu iyo ibirayi byeze tubijyana ku isoko, twabigezayo abatabifite bakaza bakabigura, iyo babiguze baduha amafaranga cyangwa bakaba babikoramo n'imbuto kubera baba babyiguriye. Ibirayi bigira akamaro kenshi cyane turabikeka tukabiha n'abatabifite.

Iduka bacururizamo ibicuruzwa bitandukanye. Bacururizamo amasakoshi, bagacururizamo udukapu, bagacururizamo amasume, bagacururizam amatelefoni, bagacururizamo inkweto, bagacururizamo na gazi. Natwe ino aha iwacu tugira ayacururizwamo gazi n'ibikapu n'inkweto tukiteza imbere.

Ahantu bagurishiriza gakosho, gakosho ifite akamaro kenshi cyane, bazifashisha bari kwica imbeba, bagatega imbeba zaza zigafatwa, za gakosho zifite akamaro kenshi cyane, natwe inaha iwacu tugira gakosho twifashisha turi gutega imbeba, kugira ngo zitangiriza ibintu byacu, zikaba zarya n'imyenda, zigatuma biba nabi.

Isoko bacururizamo inkweto za caguwa. Na twe inaha iwacu tugira amasoko tugurishirizamo inkweto za caguwa, iyo baziguze bakaduha amafaranga, tuyifashisha mu kurangura izindi nkweto . Inkweto za caguwa zifite akamaro kenshi cyane, zituma tubona amafaranga byoroshye, kandi zirakomera. Caguwa ni nziza.

Umusaruro w'amaraguca, maraguca bagiye bazica bazishyira hamwe bakeneye kuza kuzijyana ku isoko ngo bazigurishe babahe amafaranga, yo kuzajya bazifashisha mu bundi buzima busanze. Ayo mafaranga barabaha bayaguramo ibindi bintu bakeneye bakayahahamo n'ibyo kurya.

Isambusa bagiye gucuruza, natwe ino aha iwacu tugira amasambusa, turayakora tugashyiramo amagi n'ibitunguru tugashyiramo n'agasinda, maze tukayagurisha bakaduha amafaranga. Amasambusa kandi turayarya tukagira ubuzima bwiza, amasambusa atuma umuntu bimurinda kuba yagira inzara.

Amasoko bagurishirizamo ibintu bitandukanye harimo: inkweto zo kwambara, bodaboda, amasafuriya, harimo amabase, natwe inaha iwacu amasoko bayagurishirizamo amasafuriya, amabase, bodaboda zo kwambara, bagacururizamo ibyo kurya, ibishyimbo, n'amavuta yo gutekesha ibiryo, bagacuruza na pehashi. Amasoko afite akamaro kenshi cyane, babonamo amafaranga.

Inzu bacururizamo amaji yo kunywa, bagacururizamo amaji yo kunywa y'ubwoko butandukanye, natwe hano iwacu ducuruza amaji yo kunywa, iyo tuyaguze turayafungura tugashyiramo andi mazi, kugira ngo abe menshi, tukayanywa, iyo baguze amazi bituma tubona amafaranga tukongera tukazaranguza.

Isoko ririmo ibyo kurya bitandukanye，harimo imineke，inanasi， harimo amaronji， asatuyeho n’adasatuyeho. n'inaha iwacu tugira amasoko tugurishamo imyembe，inanasi， tukaguramo n'ibintu bitandukanye， byo kwifashisha， iyo turi mu ngo zacu.

Isoko bacururizamo imyenda yo muri sekeni, natwe naha iwacu tugira amasoko tugurishirizamo imyenda yo muri sekeni, ni imyenda igura makeya. iyo myenda iyo tuyiguze turayambara cyangwa se tukayifasha abatayifite bakambara bakagaragara neza, iyo tugurishije iyo myenda baduha amafaranga tugasubira kurangura ubucuruzi bwacu bukiyongera.

Inzu bacururizamo pampagisi zo kwambika abana, n'uburoso bwo kuborosa amenyo, n'utuntu baraza mu mutwe batwita udufire, n'inaha iwacu ducuruza udufire two gushyira mu mutwe kugira hatajyamo imyanda, bagacuruza n'uburoso bwo bu kurusha amenyo kugira mu kanwa hatanuka hahumure neza, tugacuruza ama pampegisi zo kwambika abana kugira batiyennyaho.

Natwe iwacu ino aha tugira amasoko ducururizamo imboga, ducururizamo karoti, ducururizamo ibirayi, ducuruzamo ibitunguru, iyo baduhaye amafaranga tuyifashisha turi kugura ibindi bintu dukeneye, bigatuma twiteza imbere mu bintu byose.

Isoko bacururizwamo ibyo kurya bitandukanye n'ibyo kunwa bitandukanye, n'ibikapu byo gutwaramo n'amasakoshi n'ibyo kwiyorosa, n'ibyo guhanaguza amasahane, abantu baje mu isoko kubigura abandi bari kubicuruzi. Natwe ino aha iwacu tugira amasoko bagurishamo ibintu bitandukanye, ibyo kurya n'ibyo kunwa n'amashuka yo kwiyorosa n'ibi......

Hakuno iwacu ducuruza ibipapayi, amatunda, avoka, imineke, imyembe, bikadufasha mu kwiteza imbere, tukaguramo ibyo tudafite tukaba twanabirya tukabicuruza bakaduha amafaranga.

Natwe ino aha iwacu, tugira amasoko tugurishirizamo ibiribwa, ibiribwa bitandukanye, harimo imineke, avoka, imyembe n'ibindi bitandukanye, n'amaronji, ibiribwa bidufasha guhaha byoroshye, tukabikoresha mu ngo zacu, noneho iyo twabonye amafaranga twiteza imbere, ibiribwa bifite akamaro kenshi cyane, bituma tugira ubuzima bwiza.

Isoko bacururizamo ibintu bitandukanye harimo korogati, imashini zo guteranyisha imibare, amazi... Iyo tubigurishije baduha amafaranga cyangwa amazi tukayanywa, cyangwa korogati tukaziboroshesha, izo mashini zo guteranyisha imibare tukazikoresha turi guteranya imibare, jambo tukayirya iri mu makoroboyi.

Inzu y'ubucuruzi irimo ibicuruzwa bitandukanye sereri, pwavuro n' ibitunguru. Indobo zirimo ibicuruzwa imiteja, zirimo urusenda ,sereri n'ibindi byinshi bitandukanye .....

Imbabura ziteretse hasi ku gisima bari kuzigurisha baje bazihambire zifatanye. Imbabura bazikoresha bari guteka ibiryo bagashyiramo amakara bagafatisha makara bikakaka maze acyana umuriro ukaza agaterekaho isafuriya iriho ibiryo akabirya.

Isoko bacururizamo ibyo kurya bitandukanye, harimo ubutunguru, pavuro, seriri, tungurusumu, tangawizi, ibigori n'amasho, natwe ino aha iwacu tugira amasoko tugurishirizamo ibyo kurya byiganjemo ibitunguru, tungurusumu, pavuro, sereri, tangawizi n' amashu n'ibirayi bikaduha amafaranga.

Inaha iwacu ducuruza amasafuriya, tugacuruza po z'abana n'imineke, tugacuruza n'amabase n'ibyo kurya nka kawunga n'amavuta. Iyo ducuruje biduteza imbere, tukagura ubucuruzi bwacu.

Natwe iwacu ducuruza inkweto，inkweto zifite akamaro kenshi cyane， turazambara， iyo tubonye abakiriya baje kuzigura， amafaranga arimo tuyakoresha ibyo dukeneye，tukaba twayatanga mu musoro kubera twacurujije， amafaranga twakuyemo yandi，tukayatanga mu kwifashisha mu kugurira nk'abanyeshuri ibikoresho by'ishuri，bigatuma tugira ubuzima bwiza.

Isoko bacururizamo ibintu bitandukanye, bacururizamo udushati twokwambara, bacururizamo imyenda y'abana, bazagacururizamo n'ikweto, amasaha, nibindi bitandukanye harimo amasharupe, imyenda y'aban n'ikweto bitewe n'icyizere, bagira amafaranga akiteza imbere mu rwego rwacu.

Isoko bacururizamo ibintu bitandukanye; bacuruzamo amabase, bagacuruza amashuka, bagacuruza n'ibikapu. Natwe ino aha iwacu tugira amasoko tukagurishirizamo ibintu bitandukanye. Tukagurishirizamo amabase Tukagurishirizamo ibikapu n'amashuka n'amasume. Isoko rifite akamaro kenshi cyane, abatabifite baza guhahamo bakaduha amafaranga.